Ni urwatsi rusa icyatsi n'amababi yarwo akaba asa icyatsi, rukaba rufite indabo zisa iroze, rukaba ruzengurutswe n'utundi twatsi dutoya, natwo dusa narrwo, hanyuma rukaba ruteye mu butaka busa umutuku.